Aka ni agatanda k'ibiti gakunze kuboneka ahantu mu byaro nko kwifashishwa mu kuba bashyira ibyombo hanze kugira ngo izuba ribigereho bityo ryice mikorobe kugira ngo bakomeze kugira isuku nziza bitaza kwangiza ubuzima bwabo.

Uyu ni umuti ukoreshwa mu buryo bw'ubuvuzi gakondo, aho wavuguruwe kugira ngo ubashe kwita ku bantu ukora neza waranyuze mu nganda, uyu muti ufasha mu kwita ku mibiri yabo neza kandi wakozwe mu buryo bwa gakondo.